Abagabo batatu bicaye hamwe ndetse harimo n'umugore umwe wambaye ijiri y'ubururu, wambariyemo agapira k'umukara, imbere yabo hateretse imeza irambuyeho igitambaro cy'umweru hateretseho uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye munsi y'ihema ry'icyatsi inyuma hahagaze imodoka y'umweru ifite igice kinyuma kizamuye kinini, imbere hahagaze umusaza wambaye ingofero itukura n'ishati ijya gu gusa umuhondo, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru ndetse mu ihema hicaye abagore bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara ndetse n'udupfukamunwa bari gufasha abaturage.

Abantu bahagaze berekeje ibiganza ku mashini harimo umukobwa uhagaze ku ruhande wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'undi uhagaze ku ruhande rugaruka ufite imisatsi imanuye mu mugongo wambaye ipantaro irimo amabara y'icyatsi n'umweru ndetse n'agapira bisa, imbere yabo hateretse ibikarito bine.

Umuporisi wo ku muhanda, wambaye imyenda ya porisi y'umukara ndetse n'ikoti ry'icyatsi, uhagaze imbere y'imodoka y'umweru ifite ibirahuri by'umukara, hirya ye hateye ibiti by'imikindo.

Abagabo babiri bahagaze, harimo bambaye imyenda ya Polisi irimo ibara ry'umukara n'umuhondo ndetse n'ingofero ya Polisi n'undi wambaye ikote n'ipantaro y'umukara ndetse ufite n'amazi mu ntoki.

Abaganga bambaye amakoti y'ubururu ndetse n'ingofero z'icyatsi n'udupfukawa, umwe wambaye amadarubindi ari gutera umuti mu murwayi.

Imodoka y'imbangukiragutabara isize irangi ry'umweru ndetse ku ruhande haciyemo umurongo w'irangi ritukura, handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, imbere yayo hahagaze izindi modoka nyinshi zitandukanye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bambaye amajiri asa y'umutuku, arimo ibara ry'umweru ndetse hariho n'ikirango kirimo umusaraba utukura, imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro gifite ibara ry'ubururu, hateretse ikayi ndetse n'ikaramu kumeza ndetse imbere yabo hari n'icupa ry'amazi yo kunywa. Inyuma hicaye umukobwa, wambaye agapira k'icyatsi n'imbere gafite amaboko atukura ndetse n'i...

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ikarita y'akazi mu gatuza, inyuma ye hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse impande ye hari akabati karimo impapuro nyinshi.

Umugabo wicaye imbere y'abantu babiri wambaye amadarubindi ndetse n'ingofero y'umweru iciyemo uturongo hejuru tw'umukara, imbere ye hicaye umugabo wambaye itaburiya y'ubururu n'agapira k'umweru mo imbere, ku ruhande hicaye umukecuru wambaye ibitwenge by'umuhondo n'ishati n'igitambaro cyabyo bisa birimo ibara ry'umukara ndetse n'itaburiya y'ubururu.

Abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo imbere bafite icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umukara bari mu gikorwa cyo kwibuka, ku cyapa imbere handitseho umubare wa mirongo itatu ndetse inyuma hari umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ubururu ndetse wambaye akantu mu ijosi kari mu ibara ry'ivu.

Abantu batatu bahagaze ahantu hamwe bambaye uturindantoki tw'umweru mu ntoki bari gukora ku kibambasi gisize irange ry'umweru, imbere yabo hari urugi ruri ku muryango ufunze rusize irange rijya gusa umutuku harimo umukobwa wambaye agapira k'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'agatambaro yambaye mu gatuza.

Abaganga bari gukina n'abana harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara uri gukina balo n'umwana, balo y'umuhondo irimo utudomo tw'umukara ndetse ku ruhande hari umugabo uteruye umwana, imbere yabo hari umwana muto wambaye agapira k'umukara ndetse n'ikabutura y'umweru.

Icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo yandikishije umukara, kiranga ko hari ikigo nderabuzima cya Nyagatare ndetse imbere yacyo hari ururabo rw'umuhondo, inyuma yacyo ku rukuta hari andi magambo yandikishije ibara ry'ubururu n'umukara ku rukuta rw'umweru.

Abantu benshi bicaye mu inzu nini iberamo inama, hirya hari amadirishya ariho amarido afite ibara ry'icyatsi ndetse imbere yabo hagiye hateretse ameza y'imbaho bicaye ku ntebe zifite imisego yumutuku zegamirwa, ndetse imbere yabo hagaze umugabo wambaye ishati irimo amabara ya karokaro y'umweru ndetse n'umukara.

Abantu benshi bicaye mu nyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, higanjemo abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi n'abasaza n'abakecuru, ku ruhande hari abana bato bari kuhakinira babiri ndetse inyuma yabo hahagaze umugabo uhetse igikapu cy'umukara uhagararanye n'umugore.

Umubyeyi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'igitambaro mu mutwe, uri kwa muganga n'abana babiri bicaye ku gitanda cy'abarwayi, imbere yabo hahagaze abantu barimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse inyuma ye hahagaze undi mugabo wambaye agapira karimo amabara, umutuku n'umweru ndetse n'inkweto z'umukara.

Abantu batanu bari muri Studio za Radio. Inyuma yabo hari amarido y'amabara abiri, umweru ndetse n'ubururu. Imbere hari umugore wambaye umupira w'umuhondo, wegereye mikoro ndetse kuruhande rwe, hari umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse nawe wegere mikoro. Kuruhande rw'iburyo hari umusore wambaye umupira w'umweru ndetse n'ijiri y'umukara.

Abantu benshi bahagaze ku murongo ab'imbere bafite icyapa cyanditseho amagambo y'umukara ndetse n'umubare mirongo itatu, inyuma hari urukarabiro ruriho amakaro y'umweru ndetse n'umugabo wambaye imyenda y'icyatsi hasi no hejuru, inyuma hari akazu k'umweru ku marembo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi by'abarwayi bitandukanye biryamyeho abantu ndetse hari n'abaganga bari kubitaho bambaye amataburiya y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda cy'abarwayi gisize irangi r'yumweru, gishasheho uburiri ndetse n'intebe y'umukara ifite amapine n'izindi ntebe ebyiri zireba ku meza y'urubaho y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda cy'umurwayi, imbere gato hari urukarabiro ndetse n'intebe kuruhande, hakurya hakaba indorerwamo ndetse n'intebe y'ubururu hakuno y'igitanda.

Umubyeyi wicaye wambaye ingofero y'umukara mumutwe ateruye umwana wambaye umupira w'ingofero imbere ye hari umugabo wambaye itabuririya y'umweru n'ipantaro y'umweru ndetse ni'mashini imbere ye ari gukanda.

Abaganga batatu bambaye amataburiya y'icyatsi ndetse n'undi muntu wambaye umupira w'ubururu n'ingofero ndetse bombi bambaye udupfukamunwa tw'icyatsi, impande yabo hari ameza ashasheho ibitambaro by'icyatsi ndetse n'imikasi yifashishwa mu kubaga.

Umuganga wicaye ku gatebe wambaye taburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara uri kureba mu gikoresho cyabugenewe gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Umuganga wambaye itaba y'umweru, agapfukawa k'uburu ndetse n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, imbere ye hari imashini irimo porogaramu zitandukanye ndetse n'imiti iruhande rwe.

Umuganga wambaye isarubeti ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'uturindantoki tw'ubururu wambaye n'agapfukamunwa gafite ibarajya gusa icyatsi n'ingofero y'icyatsi mu mutwe ndetse n'amadarubindi, hirya ye hateretse igikoresho cya microscope cyifashishwa mu gusuzuma ama mikorobe imbere ye hateretse imashini ya mudasobwa.

Abakobwa babiri bambaye amataruburiya y'icyatsi ndetse n'amadarubindi yabugenewe, bari kureba ibipimo by'umuti bagomba gutera itungo.

Umunzani uri kwifashishwa gupima amagarama y'umuti, n'ikiganza kiri kuwukandaho cyambaye uturindantoki tw'icyatsi n'agasani kabonerana, kawuteretseho.

Ibiganza by'umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu. Ufite ibipimo uri gupima amaraso y'abantu.

Abagabo babiri bicaye bambaye itaburiya z'umweru n'udupfukamunwa tw'umweru n'umukobwa wicaye hakurya wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu.

Umuganga wambaye imyenda y'ababaganga wambaye n'agapfukamun n'amadarubindi y'umukara uri kwitegereza ibipimo by'umuti yashyizemo mu gikoresho.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru ndetse harimo n'umugabo ubahagazemo utambaye itaburiya bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, imbere yabo hahagaze undi mugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri kubasobanurira.

Abagabo babiri bari kugaburira abana bato, harimo umwe wambaye ingofero irimo amabara ya gisirikare ndetse ufite n'amadarubindi mu gatuza wambaye umupira w'ubururu n'ijire y'ubururu irimo ibara ry'umukara ndetse n'undi mugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'inkweto zijya gusa umweru ndetse n'umupira urimo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ikigina.

Umubyeyi uri konsa umwana, wambaye agasenge k'icyatsi, umwana wambaye agapira k'ubururu ndetse amukikiye mwisharupe y'umweru.

Abana bari hamwe bari kunywa amata mu gikombe ndetse inyuma yabo hari abandi bantu barimo umuma uteruye mwana n'undi muntu wambaye ikanzu itukura n'inkweto z'umweru.

Abana bato bari mu ishuri ry'incuke, abarimu babo bahagaze bari kugenda babafasha gusubiramo no gukosora amasomo yabo, bicaye ku ntebe z'abana z'ibara ry'icyatsi ndetse n'ameza magufi yagenewe abana y'ibyatsi.

Abana bicaye hasi ku mukeka bafite ibikombe bari kunyweramo igikoma, harimo uwambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'abandi bana batatu bambaye amashati afite ibara ry'icyatsi ndetse n'amakabutura n'amajipo y'umukara, bombi bafite ibikombe by'amabara atandukanye.

Abantu bicaye mu busitani munsi yigiti ku ntebe za pslastiki z'umweru, ndetse bicaye bakoze uruziga, harimo abagore n'abagabo, hakurya yabo hubatse inzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse isakaje amabati, muri bo harimo abagore ndetse n'abagabo.

Itsinda rigizwe n'abagabo n'abagore bicaye mu byatsi bakoze uruziga, bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari igiti ndetse n'inyubako yubakishije amatafariahiye, ifite amadirishya asize irangi ry'umweru.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, ukenyeye igitenge ndetse ufite mikoro mu ntoki uri kuvugiramo, hirya ye hahagaze abantu babiri harimo umugore witeze igitambaro, inyuma ye hagaze umugabo wambaye ikoti ry'umweru ndetse n'agapira k'umweru gashushanyijemo umutima w'umutuku mu gatuza.

Abantu benshi bahagaze hamwe ku murongo umwe bafite ibitabo mu ntoki, imbere yabo ari abafashe igitambaro cy'umweru cyanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse inyuma yabo hari indabyo zihateye, hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati.

Umuganga ucuruza imiti, inyuma ye hari akabati karimo imyanya igiye irimo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye.

Ibinini birunze ahantu hamwe by'amoko atandukanye, harimo: ibifite ibara ritukura, ibifite ibara ry'umuhondo, ibifite ibara ry'umweru ndetse n'ibifite ibara ry'umukara bifunitse mu kantu gasa umutuku.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema inyuma hatatse igitambaro gifite ibara ry'icyatsi bicaye ku ntebe za plasitike z'umweru higanjemo abasaza, abagabo ndetse n'abagore n'abakecuru, inyuma ari umugore uteruye umwana ndetse n'umugabo wicaye inyuma uri kuganira' numugore wambaye imipira yumweru bombi

Abantu benshi bahagaze harimo abafite terefone bari gufata amashusho imbere yabo hagaze umugabo wambaye ipantarojya ijya gusa ubururu n'umupira wumukara ndetse n'amadarubindi, ufite mikoro mu ntoki hirya hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu ndetse inyuma yabo hari urupangu rwubakishije umucanga.

Abantu bahagaze ahantu hamwe ndetse harimo n'abazungu. Kuruhande hari umuzungu wambaye umupira w'umweru ndetse wambaye n'amadarubindi y'umukara, ufite agakapu k'umukara ndetse wambaye inkweto z'umukara ndetse hari n'umugabo uhagaze imbere yabo muremure, wambaye ingofero y'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru.

Abantu benshi ahagaze ahantu hamwe higanjemo abagore n' abagabo ndetse n'abana, inyuma hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, kuruhande ahagaze umugabo uhetse igikapu cymukara mu mugongo ndetse wambaye ipantaro yumukara imbere yabo hari umwana muto wambaye umupira utukura ndetse nipantaro yumukara.

Inzu ebyiri zubatse muburyo bwenda gusa zisize irangi ry'ubururu ahantu hose, imbere hasize irangi rijya gusa icyatsi kererutse ndetse hicaye abantu bicaye imbere y'umuryango ku ntebe z'imbaho hirya hahagaze abagabo babiri ndetse n'undi uhagaze hanze y'aho gato wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Icyatsi cya kimeza gifite ururabo rurabije, kikagira n'urundi rutarapfunduka ndetse kikagira n'ururabo rukiri gupfunduka, ndetse n'urundi rwumye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ingofero y'ubururu, ufite agakarito k'umutuku ndetse gafitemo n'ibara ry'umuhondo, imbere ye kumeza hateretse amacupa atandukanye asa umukara afite imifuniko y'umweru.

Umusaza ufite umusatsi n'ubwanwa byiganjemo imvi wambaye ikote ry'umukara n'ishati ijya gusa icyatsi mo imbere, ufashe ibyatsi by'icyatsi kibisi bivangavanze, hirya ye hari imikega isesetse mu idirishya ndetse n'inzu ya kera isakaje ibyatsi.

Abaturage harimo abafite ibipfuko ku maso, n'umugabo wambaye ipantaro ya kake n'ikoti ry'umukara ufite igikapu cy'umutuku mu ntoki, n'umusekerite ufite inkoni mu kiganza.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ufite ikaramu uri kwandika, imbere ye hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ndetse hateretseho imashini ya mudasobwa y'umukara, imbere yaho hateretse intebe ebyiri imwe y'umukara yicayeho umukecuru witeze igitambaro ndetse n'isharupe y'ubururu wambaye ijipo itukura.

Inzu isakaje amabati y'umweru isize irange ry'ubururu, imbere yayo hari ababyeyi ndetse n'abagabo bambaye amataburiya y'ubururu, harimo umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ibitenge birimo amabara y'umutuku n'umweru n'inkweto z'umukara, imbere yabo hari umugabo ufite telefone uri kubafotora, ndetse n'undi hakurya wambaye ijire y'ubururu uri kubafata amashusho.

Icyapa kigaragaza ahacururizwa imiti y'amatungo, cyanditseho amagambo yandikishije umutuku n'umweru n'umukara ndetse hepfo hashushanyije amatungo; inkoko, ihene, ingurube, imbwa ndetse n'inka ndetse ku ruhande hari na rozwari yuhira imyaka.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, hirya yaho hari indi yubatse mu buryo buzamuye bw'igisenge, ifite igisenge kiriho amabati y'ubururu, imbere yaho hari urukarabiro rusize irangi ry'umweru ndetse rufite amabati y'ubururu.

Umuhanda w'amapave, imbere yawo hari ikiraro cyambuka kijya hakurya ku nzu z'ubucuruzi. Ahacururizwa imiti ndetse imbere yaho hari kandagira ukarabe no hepfo hakaba indi kandagira ukarabe. Munsi gato hakaba indabo nyinshi zitandukanye n'inzu ifite igisenge kizamuye.

Inzu i isize ibara ry'ubururu, igaragara nk'ikigo nderabuzima, hanze hari ibikoresho byifashishwa mu gukaraba intoki, umusekirite hanze n'intebe ndetse n'abaturage bicaye bategereje serivise za muganga.

Inzu ifite urukuta ruzamuye hejuru rwa'amabuye, rukoteye n'umucanga ndetse isize ibara ry'ubururu igiye yanditseho amagambo ari muruziga, mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ,hejuru ifite igisenge isakaje amabati y'ubururu. Hirya inyuma yayo hari ikigega cya plastiki.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'umupira w'umukara yambariyemo imbere, hari ibikoresho byabaganga yambaye mu matwi, imbere ye hicaye umukecuru wateze igitambaro k'icyatsi ndetse witeye igitenge, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho n'ingwa y'umweru.

Ishashi y'ubururu irimo ibara ry'umweru, ishushanyijeho inkoko ebyiri zifite ibirokoroko bitukura ndetse n'amaguru y'umuhondo, amagambo yanditseho yandikishije ubururu mu ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yandikishije umuhondo n'umutuku n'amagambo yandikishije umweru mu irangi ry'ubururu.

Abagabo babiri bafashe umurasire w'izuba munini, ufite ibara ry'umukara hagati, harimo umugabo umwe wambaye imyenda ijya gusa n'ibisarubeti isa ndetse n'ingofero y'ubururu irimo ibara ry'umweru ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ijya gusa umutuku.